Aha ni mu gihuru. Hakaba hateyemo ibyatsi by'amoko menshi. Ndi kuhabona igitenetene, ndi kuhabona akayogera, kakaba kavura indwara nyinshi zitandukanye, kakaba kanagira uruhare by'umwihariko mu guhindurira umuntu ushaka ishinya igahinduka umukara.

Ibi ni ibirayi bitari byera neza bitewe n'uko mbona nta ruyange bifite, inyuma yaho ndikuhabona ishyamba, ibirayi bikaba bitari byera cyane, ahantu haba ubutaka bwiza ahantu hakunze kugwa imvura ibi birayi bikaba bitarera neza ariko iyo byeze abantu benshi bakunze kubikunda bikaba n'ubungubu bihenze ku masoko.

Izi ni indabyo nziza cyane ziri mu rugo rw'umuntu ku ruzitiro, urabona ko inyuma y'uruzitiro hariyo ibigori byiza bya mayizori bihateye, ibi bigori bikaba biryoha, ariko na none bigira imisigati myiza cyane, abana barayikunda, ni yo mpamvu ibi bigori babishyiramo umurinzi.

Ibi ni ibyatsi bya bisi kusi byashishe ahantu mu gihuru. Ibi byatsi bikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi. Bivura umuvuduko, bivura indwara nyinshi zirimo imitsi, impyiko. Ndetse kunywa icyayi cy'ibi byatsi bikaba bigirira umumaro umuntu ukinyoye. Ibi ibyatsi abantu benshi barabibuze.

Iki ni igiti cy'inturusu giteye ahantu mu busitani butoshye, kikiri gitoya ariko kirimo gukura neza . Iyi nturusu uko mbibona, iteye ahantu hegereye isambu ihingwa, hakaba hahinze ibishyimbo.

Ubu ni ubusitani burimo ibyatsi bitoshye ariko hano hafi ndabona indabyo zihari zitabagaye neza n'ibyatsi bikaba bigaragara yuko nubwo bitoshye ariko byari bimaze igihe mu gihe cyizuba bikaba ariyo mpamvu ubungubu imvura itangiye kugwa byari bitangiye gusa n'ibishikwa kubera ko byari bitangiye gusoma amazi.

Aha ni ahantu mu gihuru harimo ibiti bivangwa n'imyaka, harimo ibigori byiza cyane bimeze neza, hakaba harimo n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye. Hashobora kuba harimo ibihaza ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Uyu murima ukaba uko bigaragara wera neza, imyaka irimo ikaba isa neza.

Aha ni hasi ndi kuhabona ibyatsi bitandukanye bifite uturabyo tw'umweru. Harimo amabuye, hakaba n'ahantu hasa naho ari mu murima. Uko bigaragara aha hantu bishoboka ko ari mu nkengero z'umurima, usanzwe uhingwamo imyaka itandukanye.

Aha ni mu gihuru hameze ibyatsi byinshi bitandukanye. Ndi kuhabona umucaca n'ibindi byatsi bitandukanye. Ndi kuhabona ibishinga, nkahabona n’indi myanda y’ibikongorezwa by’imisigati y'ibigori. Ndi kuhabona ibikweto byashaje. Aha hantu bigaragara yuko ari mu gihuru.

Aha ni mu gihuru harimo ibyatsi bitandukanye ariko bishishe, ndi kuhabona amatovu, nkabona imifumba, amatovu ngo kera bayakubitaga umuntu watinze gushaka, naho imifumba bakaba bayirya ibi byose bikaba binavura indwara nyinshi cyane.

Ibi ni biti by' indabo abantu bakaba bakunze no kubizitiza, ku nzitiro zabo akenshi bikunze gukoreshwa ni mu cyaro, ndi kuhabona indabyo zigiye zitandukanye, z' amaroza ariko ni inyuma yaho ndi kuhabona, igiti cy' umusipuri cakuze cyane.